Ibara ni nziza, iyo wagiyeyo ushaka kunywa, uragenda ,haba hasa neza, uhuriramo n'abantu benshi kandi beza , mugasangira nta cyo kunywa muburayo.

Kujya mu ibara ni byiza biradufasha . Iyo umuntu yagiye mu ibara ,arakina ,yatsinda bakamuha amafaranga yatsindiye ,akiteza imbere kandi akabaho neza mu buryo bwiza ,kubera ko aba yabonye amafaranga.

Mu ibara habamo intebe nziza kandi haba hari n'isuku kubera ko hahuriramo abakire bameze neza kandi baba bafite amafaranga, bishyura n'amafaranga menshi.

Bare iradufasha kubona inzoga dushaka kandi hahuriramo n'abantu benshi, iyo umuntu adaherukana n'undi bahurira muri bare bakishima.

Mu bara ni heza .iyo umuntu ahageze ashonje aragenda akinjira kandi hahuriramo n'abantu benshi. ahuriranamo n'inshuti ze bagasangira bishimye.

Mu ibara haba hameze neza, hahuriramo abantu benshi basa neza, bameze neza, kandi baba baje no gukina, iyo umuntu atsinze abona amafaranga.

Mu ibara ni heza turahakunda, iyo umuntu afite inyota aragenda akajyamo, akagura icyo ashaka maze bakakimuha akakinywa, kandi uboneramo n'inshuti.

Bare ni nziza turayikunda, harimo n'intebe nziza. Iyo umuntu ayige muri bare, ajya kwicara, akareba filime, akanywa ari kureba filime, yumva ari byiza.

Mu ibar ni ahantu hahurira abantu ari benshi bari gukina, batsinda bagaseka cyangwa bari gusangira bakishima cyane kubera ko baba bahuye batanahurukana.

Botike bacururizamo inzoga haba harimo abagabo benshi kuberako abagabo bakunda kunywa inzoga, kandi abo bagabo baba bishimye bahuje ibiganiro.

Butike ni nziza iradufasha. Iyo umuntu akeneye ibyo guteka, aragenda akajya muri butike akabigura, yaba akeneye in'inkweto akagenda akazigurira.

Butike bacuruzaho inzoga ni nziza, iradufasha yo umuntu agiye nko mu bukwe, aragenda akagura inzoga kandi aba yuguriye hafi, ntatike aba yashize.

Botike bacururizamo imyenda ni nziza, kubera ko iradufasha iyo ugiye kugura imyenda uhuriramo n'abantu benshi kandi muziranye mugasuhuzanya kubera ko muba mudaherukana.

Botike ni nziza iradufasha, iyo bacuruza imikubuzo turagenda tukayigura, kandi imikubuzo iradufasha turayifashisha turi gukora isuku, tugakubura hagasa neza.

Butike ni nziza kubera ko haba harimo amavuta, amavuta aradufasha iyo wayisize ugenda umeze neza ufite uruhu rumeze neza kandi iyo wakarabye ukisiga amavuta nta kibazo uba ufite.

Butike bacururizaho inyama y'inkoko n'udukwavu, ziba ziryoshye izo nyama, abantu barazikunda kandi hajyayo n'abandi benshi bagiye kurya izo nyama.

Butike bacururizamo ibikoresho by'igare. Iyo igare ryawe ripfumutse, uragenda ukagura irindi pine, maze bakarigushiriraho ugakomeza gutwara abagenzi.

Butike ni nziza iradufasha, iyo butike uyegereye, uragenda ukagura, ukagurira hafi, kandi idufasha kubona ibintu hafi kandi ku giciro cyiza.

Butike bacuruzamo ibyo kurya n'ibyo kunywa. Uragenda bakaguha karibu ukinjira, warangiza ugasaba icyo ushaka bakakiguha, warangiza ukishyura amafaranga.

Butike yo mu Kinigi iba imeze neza ifite isuku, kandi iyo uhageze uragenda ugahagarara ku muryango bakaguha karibu, maze ukinjira ukagura icyo ushaka.

Ahantu bacuruza aka moto ni heza hasa neza, kandi moto ni nziza turazikundaga, iyo umuntu yicaye kurimo moto yumvaga yicaye neza, kandi izo moto iyo ba zitwaye neza urya umunyenga.

Butike bacuruzaho inyanya. Ni nziza turayikunda, kubera ko iyo ufite inyanya ukazikaranga, zitukuza ibiryo, kandi bigasa neza, kandi biba binaryoshye bifite vitamine.

Imikandara ni myiza iradufasha, iyo umuntu yambaye ipantaro itamukwiye yambara umukandara kugira ngo itagwa ipataru, bacuruza udukufi kandi udukufi ni twiza cyane.

Butike barangurizaho hahuriraho abantu benshi baje kurangura biswi, baje kurangura amavuta n'isabune, baje no kurangura na za pampa kandi pampa bazibinda n'abana.

Butike bacururizamo ibitenge hajyamo abantu benshi bagiye kubigura, kandi ibyo bi bitenge barabidodesha bakajya barabyambara na botike bacururizaga mu imisego yo mu ntebe, iyo intebe zirimo imisego ziba zimeze neza.

Inzu bogosheramo ni nziza, iyo umuntu agiye kwiyogoshesha baramwogosha agasa neza kandi niyo umwana afite umusatsi mwinshi baramwogosha agasa neza cyane.

Butike yo ku muhanda iba ari nziza, iradufasha, iyo umuntu ashonje aragenda akarya, akananywa, kandi n'iyo n'abamotari bashonje bajyayo bakarya.

Butike bacuruzamo ibikapu, ni nziza, kubera ko ibikapu biradufasha iyo tugiye kwiga, dushyiramo amakayi mu bikapu, amakaye yacu ntacike.

Ahantu bacuruza imikenyero n'ibisabo. Iyo muntu yakoresheje ubukwe ajyaga gukodesha iyo mikenyero bakayambara, kandi nicyo gisabo aragikodeshaga bagacundiramo amata.

Ahantu bacuruza ibikoresho by'igare, iyo ipine ryapfumutse ujya kugura irindi pine ukarishyiraho, warangiza n'iyo n'umusego washaje ugura undi musego kugira ngo abakiriya batawicaraho ukabapfumura.

Butike ni nziza, ihuriramo abantu benshi. Ariko iyo wayubatse, ugashyiraho igipangu, ntabwo abantu benshi baza, baba bazi ko ari inzu bararamo.

Butike bacururizamo amata yawurute araryoha turayakunda, bacuruzaga na salisa, salisa ziryoshya ibiryo kandi ibiryo biba bisa neza.

Butike bacururizamo imiti yo gutera mu myaka, iyo imyaka yawe yatangiye gurwara, ujya kugura umuti, uwo muti ukawutera mu myaka, imyaka yawe ikura neza.

Butike bacururizamo impeta ni nziza kubera ko iyo umuntu yagiye gusezerana, barayimwambika, kandi iyo umuntu yambaye impeta, ntabwo bamumenyera, kandi impeta iba ibabereye.

Ahantu bacururiza icyayi, haba hasa neza, hafite isuku. Iyo ugiye kugura icyayi, uragenda, bakaguhera mu gakombe kameze neza, kandi ukanywa ufite apeti, kubera ko haba hari isuku.

Butike bacuruzaho iradufasha, iyo usanze nta bahari urabahamagara kuri telefone, cyangwa ukabategereza igihe barazira, baguha icyo ukeneye

Ahantu bacururiza ibitenge, ibitambaro haba hameze neza kandi baradoda, iyo ushaka bahita bakudodera ukajyana imyenda idoze kandi iba imeze neza, kubera ko uhitamo ukuntu barakudodera.

Butike bacururizamo ibyo kurya n'ibyo kunywa, iradufasha, iyo umuntu ahageze ashonje, atanga amafaranga bakamuha ibyo akeneye, maze akabirya.

Butiki bacururizamo ibijyanye n'ikoranabuhanga ryiza, uyu afite amafaranga, aragenda akagura filime maze akazajya arareba amakuru agezweho.

Butike bacururizamo amasaka ibigori, iyo ushaka kujya kubetesha igikoma uragenda ukabigura maze bakagupimira, ukajya kubetesha maze ukabona ifu y'igikoma.

Butike ni nziza bacururizamo imyenda, iyo wagiyeyo ukagura iyo myenda urayambara, haba hariho n'imbeho ukambara ni iryo koti imbeho ikagenda.

Butike bacururizamo fanta, bacururizagamo n'inzoga, bacururizagamo n'amavuta yo kwisiga ni nziza. Huriramo abantu benshi baje kugura inzoga cyangwa baje kugura fanta.

Butike bacururizamo imipira, bacururizamo na fulashe, hahuriramo abantu benshi baje kugura imipira, baje no kugura na fulashe, kandi iyo mipira bayambara.

Ahantu bacururiza baro, bacururiza na supaguru, baro idufasha gukora siporo neza, kandi na supaguru iyo ikintu cyapfumutse, ushyiraho supaguru kikongera kigafatana.

Gucuruza imbuto ni byiza tunarabikunda. Iyo umuntu acuruza imbuto arunguka, akabona amafaranga akiteza imbere kandi ntabwo asabiriza kubera ko aba yabonye amafaranga ye kandi yayakoreye.

Botique ni nziza, isa neza, kandi botique iradufasha. Iyo nta mavuta ufite, uragenda, ugatanga amafaranga, bakaguha amavuta yo kwisiga, maze uruhu rwawe rugakomeza kuba neza.

Botike bacururizamo imashini, uragenda washaka bakayikwigisha, maze ukayigura ugatanga amafaranga, maze ukajya uradoda imyenda.

Imashini zikora inkweto za rugabire ziba ari nziza ziba zikomeye, izo nkweto niyo wazigura ntago zipfa gusaza cyane kubera ko ziba zikomeye zarakozwe n'imashini.

Uyu mugati ni uw'abageni uraryohaha, umufungatayi uraryoha, amarindazi araryoha, amacapati, araryoha, na fanta ziraryoha, amata ya yawurute araryoha, kandi ndabikunda cyane.

Ahantu bateka icyayi, ni heza, haba hanasa neza, iyo umuntu agiye kunywa icyayi, aragenda, akicara bakamuzanira icyayi, maze rero akanywa, kandi yumva binaryoshye.

Butike bacuruzaho ibyo kurya iyo umuntu ahageze ashonje, aragenda akagura icyo kurya, yarangiza kukirya akagenda, kandi agenda nta kibazo kubera ko aba ahaze.

Botike bacuruzaho amagare ni nziza kandi amagare adufasha adutwarira ibyo kurya tukabona ibyo kurya hafi kandi amagare niyo wakererewe uraritega maze rikakugeza aho ushaka.

Ahantu bacuruza amavuta yo kwisiga, ni byiza iyo umuntu afite amafaranga ,aragenda akagura amavuta, yaba yakarabye akisiga amavuta agasa neza.

Butike yo bacururizaho ibyo kurya n'ibyo kunywa, hahuriraho abantu benshi iyo bashonje. Baragenda bagatanga amafaranga bakabaha ibyo kurya, maze bakarya.

Isabune ni nziza tuyifashisha turi gukaraba, turi no kumesa imyenda, tukayogesha amasahani, iyo wakarabishije isabune n'amazi meza wirirwa usa neza, kandi umeze neza.

Butike ni nziza turayikunda iyo ugiye kugura uragenda ukajya muri iyo butike, ukagura icyo ushaka ubaha amafaranga, bakaguha icyo ushaka maze ugataha.

Ahantu bacururiza ibyo kurya n'ibyo kunywa, haba hasa neza hafite isuku. Iyo umuntu ashonje ashaka kuryayo, niyo abamotari bashonje bashaka kuryayo kubera ko haba hafite isuku kandi biba biryoshye.

Ahantu bacuruza insinga z'muriro, bagacuruza n'ibikoresho by'igare, ni byiza biradufasha iyo igare ryawe ryapfuye uragendaga maze ukagura ibindi bikoresho, kugira ngo igare ryawe rikomeze ribe neza.

Butiki bacururizamo inzoga ni nziza, iyo ugiyemo usanga harimo abantu benshi, mukanywa, mugasangira, kandi muba mwishimye.

Butike bacururizamo ibyo kunywa ni nziza, iyo umuntu anywa inzoga arayigura, cyangwa yaba anywa fanta akayigura akayinywa, kandi aba yishimye.

Ahantu hari iterambere haba hari muririro, haba hariho n'abantu bacuruza amayinete, hakajyayo abantu bagiye kugura amayinite bakayagura, bakavugana n'abantu badaheruka kuvugana.

Butike bacururizamo ibyo kunywa ,bagacururizamo n'imikubuzo. Ni nziza kubera ko iyo umuntu abuze umukubuzo aragenda akajya muri iyo butike akawugura agakora isuku.

Igiti ni kiza kiduha umwuka mwiza. Ikyo umuntu izuba riri kumwica, aragenda akicara muri icyo giti, yumva umwuka mwiza, haza n'akayaga keza muri icyo giti.

Ahantu bacuruza ibigori bitetse. Bitugirira umumaro munini cyane, kubera ko iyo umuntu ahanyuze ashonje agura utw'ijana akaturya, akumva mu nda habaye neza.

Inzu ifite igipangu ntabw hajyamo abasambo uko biboneye kandi iyo umuntu agiyeyo abanza yakomanga bakaza bakamufungurira iyo ari igisambo ntabwo bamufungurira.

Ahantu bacuruza amayinite ni byiza ,baradufasha ,kubera ko iyo umuntu adafite amafaranga, aragenda akagura amayinite ,agahamagara inshuti ye badaherukana, bakavugana, bakaganira.

Urusengero ni rwiza kandi tunararukunda, uyo umuntu yagiye gusenga arapfukama akagwira, akavuga icyamuzanye Imana iragisubizaga.

Kopera ni nziza iradufasha iyo umuntu ashaka amafaranga aragenda akaguza mu makopera akabona amafaranga, kandi niyo wayabikije kuri banki ujya kuyafata bakayaguha.

Kujya muri kopera ni byiza kubera ko iyo uri muri kopera ukagira ikibazo cy'amafaranga, uragenda bakakuguza cyangwa waba warayabikije kuri banki ukajya kuyabikuza.

Hoteri ni ahantu heza, iyo ugiye muri hoteri habaho igihe ugiyeyo unaniwe, haba harimo uburiri bwiza bumeze neza wishyura amafaranga, maze ukaryama ukaruhuka.

Hoteli ni nziza huriramo abantu benshi bagiye kurya, bagiye no kunywa, kandi niyo umuntu ananiwe atanga amafaranga akajya kuryama, akaruhuka.

Hoteri ni nziza iradufasha. Iyo abantu bagiye gutemberera ahantu ha kure bagasonza baragenda bakajya muri hoteri bakarya, bakananywa bakabona n'inshuti zabo.

Hoteli ni nziza hahuriramo abantu benshi, abakire cyangwa n'abandi bantu, kubera ko haba hasa neza, barahakunda cyane.

Hoteli ni nziza iradufasha . Iyo ugeze kuri hotel unaniwe uragenda, ugatanga amafaranga ,maze ukaryama ukaruhuka ,kandi haba harimo n'uburiri bwiza.

Hoteli ni nziza iyo umuntu ashonje ajyamo ahuriramo n'abantu benshi bagiye kurya, kuberako iyo umuntu ashonje ajyamo bakamuha ibyo kurya.

Hoteri ni nziza, iba isa neza. Kandi hoteri iyo wagiyeyo usanga hariho agacaca keza hariho n'uturabo twiza turi guhumura neza.

Hoteri ni nziza iba inasa neza, iyo umuntu ari kugenda agasonza, ajya muri hoteri, akagura ibyo kurya n'ibyo kunywa, maze rero akagenda ahaze.

Hoteri ni nziza, iradufasha, iyo umuntu afite amafaranga, aragenda muri hoteri, iyo inzara iri kumurya, akagenda muri hoteri, akagura ibyo kurya, akagura n'ibyo kunywa, akarya, akananywa.

Isoko bacururizamo ibikoresho. Ibase, iyo ibase yamenetse uragenda ukajya kugura ibase, kandi ibase uyimeseramo, ukanayikarabiramo.

Isoko ry'imyenda risa neza risukuye, rizana abakiriya benshi kandi beza, iyo umuntu aje kugura imyenda agura imyenda isa neza cyane.

Isoko bacururizamo indagara, ni byiza kubera ko iyo watetse ibiryo ugashyiramo indagara biba biryoshe, kandi biba bisa neza, kandi indagara ni intungamubiri.

Ahantu bacururiza haba ari heza, ariko hano ho ntabwo hameze neza, kandi ahantu hahurira abantu benshi baje kugura mu isoko, kandi haba harimo n'abaje kugurisha, barunguka.

Aho bacururizamo udusambaza, ni heza, haba hari n'isuku, kandi bapima no ku munzani kugira ngo badatanga byinshi bagahomba, bakabura inyungu, bakabura uko bakwiteza imbere.

Isoko ni ryiza riradufasha kandi riba risa neza. Iyo umuntu akeneye ikintu ajya kukigurira mu isoko bakakimuha, kandi haba harimo n'abantu benshi.

Mu isoko ugomba kuzana veterineri agapima ibyo uri gucuruza iyo ayasanze harimo ibirwaye abikuramo ariko iyo utazanye veterineri ukagurisha ibintu birwaye n'abakiriya bawe bararwara.

Ahantu bacuruza supadipe yo mu icupa cyangwa mu kadomoro, haba hameze neza hafite isuku, kandi hahuriramo abantu benshi baje kugura kubera ko biba biryoshye.

Aho bacururiga ibyo kurya. Hariho tungurusumu, hakabaho ibihumyo, hakabaho amavuta. Amavuta aryoshya ibiryo kandi bigasa neza. Amavuta adufasha gukaranga ibiryo bikaryoha.

Isoko bacururizamo imyenda ni ryiza turarikunda, kubera ko umuntu atambaye imyenda ntabwo yava mu rugo ngo aragiye, ariko iyo ufite imyenda urayambara ukagenda.

Amasoko ni meza hahuriramo abantu benshi bagiye kugura ibyo kurya, bagiye kugura mbese n'ibyo kunywa, n'ibikoresho bajya kubigurira mu isoko kandi babigurira ku giciro cyiza.

Isoko bakoreramo amasafuriya, iyo isafuriya yapfumutse, uragenda bakayigukorera neza, ukabaha amafaranga, ukajya urongera kuyikoresha.

Isoko riradufasha, iyo ugiye kugura ibikoresho, waba ugiye no kugura ibyo kurya ukabigurira mu isoko, kandi ukabigura ku giciro cyiza. Iri soko ryo rirashaje rigomba kuvugururwa.

Isoko bacururizamo imbuto riba ari ryiza, kandi hahuriramo n'abantu benshi baje kugura imbuto, hari imbuto zongera amaraso hari n'izubaka umubiri.

Isoko bajyanamo ibidomoro byapfumutse, bakajyanamo n'amabase yamenetse, bakajyanamo n'inkweto zacitse, barabisudira bikongera bikaba bizima, ukongera ukabikoresha.

Isoko bacuruzamo omo ni ryiza, kandi iyo ufurishije Omo imyenda yawe iranoga kandi ibaga isa neza, iri guhumura, kandi n'aho unyuze wumva umeze neza.

Isoko bacuruzamo ibikapu n'imyenda. Iyo ugeze ku muryango ngo baguha karibu, ukinjira ukagura ibyo ushaka, kandi n'ibikapu biradufasha. Uyu aguze imyenda ushira mu gikapu ukagenda ugifashe cyangwa ugihetse.

Agakoraboyi ni keza katugirira akamaro, iyo ufite agakoroboyi, kagufasha kurenga ubunyobwa, maze kugira ngo udatanga ubunyobwa bwinshi ugahomba, ukabura iterambere.

Ahantu bacuruza ibitambaro ni heza, iyo umuntu afite amafaranga, ajya kugura ibitambaro, kugira ngo adodeshe, akadodesha imyenda ashaka, kandi myiza.

Isoko bacururizamo keke ni ryiza, kandi riba risa neza. Izo keke ziraryoha ufite amafaranga ujya kuzigura maze ukazirya.

Isoko bacururizamo inyanya ni ryiza, risa neza, iyo umuntu agiye gukaranga agafata inyanya, arazikaranga, akumva ibiryo biryoshye, kandi biba binasa neza.

Isoko bacururizamo amasafuriya n'inkweto, amasafuriya tugatekeramo kandi n'inkweto turazambara amabuye ntadupfumure, kandi ntago dusitara ngo tubabare cyane kubera tuba twambaye inkweto.

Fanta ziraryoha, na za sana ziraryoha, na ji zo mu gacupa ziraryoha na tuwisita ziraryoha . Abantu barabikunda cyane. Ji ya sa bakunda kuyiha abana.

Bacuruza ekuteri, bacuruza n'imigozi ya telefone, iyo muriro washize, ujya gucaginga, iyo ufite umugozi ushaka gucaginga, umuriro ugahita uboneka, wagura na poshete ugashyira kuri telefone, telefone ihita iba nziza, ikagira isura nziza.

Isoko bacururizamo amashu ni ryiza kandi hahuriramo abantu benshi baje kugura amashu kandi amashu araryoha iyo wayatetse neza aba aryoshye anasa neza.